Inyubako y'ikigo k'ishuri, hagaragara icyapa cyanditseho amazina y'ikigo, hari igikuta gishushanyijeho idarapo y'igihugu, n'inzovu bashushanyije ku gikuta munsi y'idirishya, ihagaze mu duti tugufiya.

Urupapuro rwometse ku rukuta, ruho ibikoresho, bakoresha, bapima ibizamini by'abarwayi.

Abanyeshuri bambaye ishati y'umweru, bicaye mu ishuri, bafite ikayi n'ikaramu barimo bandika, inyuma yabo hari taburo yanditseho.